Ubu nawe wagira iwawe, abantu batatu umugore, umugabo, umwana, gitari, ibikarito, ibiti, urugi rufite ibara ry'umweru.

Icyapa gisa n'umuhondo cyanditseho kanda *182*3# code MoMo peyi 000081 ntayandi mafaranga wishyuzwa celesitini desayina.